Iyo umuhinzi yahinze imyaka ayitaho neza cyane, akayigurira n'ifumbire, iba myiza cyane. Ku buryo asaruramo umusaruro mwinshi akarya ndetse agasagurira n'isoko. Agaha n'abaturanyi be ndetse n'abavandimwe.

Abahinzi bahinga amashu bakayitaho, bayashyiraho n'ifumbire yitwa imvaruganda, ikindi nanone iyo ageze hejuru bayatera umuti, kandi bagenda bambaye inkweto za bote, iyo yeze barayasarura bakajya kuyarya.

Amasaka barayahinga bakayitaho. Yamara kwera bakayasarura, bakayanika. Yamara kuma bakayabeteshamo ifu y'igikoma, cyangwa baba bashaka kuzengamo ubushera bakajya kuyinika, bakayinura yararabaye umukara, ubundi bakayanika bakajya kuyabetesha.

Ahantu bacuruza ifumbire ry'imvaruganda, hariho iriba ryanditseho Ire, rigira nitorojene ya mirongo ine na gatandatu ku ijana, kandi iba isa n'umweru cyane ,baba barayishyize ku nkoko kugira ngo abantu baze kuyireba neza bayigure.

Amafi aba ari menshi arambitse mu gatete kandi amafi ava mu mazi, iyo bayarobye aba atakiri mazima bakayakawusha, bakayateka kandi agira isosi nziza, ni iyo uyagaburiye umwana akiri mutoya, akura afite ubuzima bwiza.

Amafi ane gakabushije gari ku isahane y'umweru gateretse ku meza, ni amafi meza cane kandi tuzi ko amafi ari mu nyama z'umweru, iyo tugahaye umwana akiri mutoya akura neza.

Ifi ziba mu mazi, abarobyi baraziroba bakazigurisha abantu bakajya kuziteka, kandi zigira intungamubiri nziza cyane, ziri mu byubaka umubiri, kuko ni inyama ziba zisa n'umweru. N'iyo umwana atangira kurya ukamuha amafi agira ubuzima bwiza.

Amafi bayarobye yari mu ndobami. Ni amafi manini, ikindi amafi agira inyama z'umweru kandi akagira intungamubiri. Umwana iyo ariye amafi akiri mutoya akura afite ubuzima bwiza cyane.

Amafi aba ari mu mazi, ariko iyo bagiye kuyaroba, bayakuramo, bakayakawusha bakajya no kuyagurisha, kandi amafi ni meza cyane ni inyama z'umweru. Iyo umwana ariye amafi akiri mutoya akurana ubwenge, kandi akagira n'ubuzima bwiza.

Ikiyaga kiba ari kinini cyane, kimeramo n'ibyatsi, kandi haba harimo n'ubutaka, abantu baturamo bakanabuhingamo ari bwo bita ibirwa, ikindi nanone habamo ubwato abantu bifashisha bari kuroba, kandi babutwaramo n'abantu.

Ubwato butwara abantu baba buri mu kiyaga ndetse bakanabukoresha iyo bagiye kuroba, bazirikaho ibiti hamwe n'ibyo bakoresha bagiye kuroba, nuko bakazamura amafi kandi amafi akaba ari meza cyane kuko agira intungamubiri.

Ikiyaga iyo ukirerebye ubona gisa n'ubururu, ariko amazi ntabwo aba ari ubururu. Na none haba harimo ubutaka aribwo bita ibirwa, haba hateyemo udushyamba, cyangwa se hatuwemo abantu bakiberamo. Iyo bagiye kwambuka bambukira mu bwato.

Bari barahinze amasaka ku mitabo， nonega yarumye baragasarura ntibongera guhita bahahinga，kubera yuko iyo baharaje ariho havagamo umusaruro mwinshi，n’ubwo bitasaba ifumbire iruhande rw'uwo muririma hari ishamba.

Umurima munini cyane, bawuhinzemo ibigori babyitaho birakura biba byiza cyane, none byageze igihe cyo kwera barabisarura, hasigaramo ibigorigori mu murima, none ntabwo bari bahingamo, kandi iruhande rwaho hari ishyamba ndetse hari n'umuhanda bacamo.

Ibiti by'ibiko birakura bikaba birebire, bakabitema bakabyubakisha. Kandi bigira amabibi atatu abiri aba ateganye, irindi riri nko hejuru, kandi na none ibiko bigira imishubi yicana. Bateramo ibihaza bigakura bakarya, babica bakabiteka.

Insina bita incakara ziba zaramye zikazana ibitoki bimwe bibaga byenda kwera kandi bibaga biteyemo n'udukingi bifite n'izindi midari ku ruhande haba hateyemo ibirayi, kandi ibirayi ni byiza cyane kuko bivamo ifiriti ndetse n'imvange nziza iyo bayivanze n'ibitoki.

Umurima baba barahinzemo ibigori, bakabyitaho. Byamara kwera bakabisarura, ariko bagasigamo ibiti byabyo. Barangiza bagahingamo n'ibirayi bakabyitaho bakabishyiramo n'ifumbire, ndetse bakabitera n'umuti. Kandi ibirayi ni byiza cyane kuko bivamo ifiriti ndetse bakanatekamo imvange.

Inzu y'amatafari ahiye, inyuma yayo hahinzemo igikakarubamba, hamezemo n'ibyatsi nta kindi kintu gihinzemo, kandi igikakarubamba bagikuramo amavuta yo kuyisiga, bakanakuramo umuti bakoresha bari kuvura.

Ibigori barabihinga mu dutabo bakabyitaho, bakabishyiraho n'ifumbire ryitwa imvaruganda. Iyo barabisarura bakabihungura byamara kuma, bakajya kubibeteshamo igikoma bakanatekamo umutsima. Ikindi kandi bateramo n'insina zitwa incakara. Iyo zeze ibitoki barabica bakabiteka.

Ibirayi bihinze mu murima harimo n'iteke rifite amababi meza harimo n'umubyare kandi ibirayi babitekagamo ifiriti cyangwa se bakabitekamo imvange cyane cyane mu bukwe bakunda gukoresha ifiriti y'ibirayi.

Icyuzi baragikoze bakiyoboreramo amazi, iruhande rwacyo hari ibyatsi byibikangaga hateyemo n'igiti cy'umusave, kandi ikindi na none icyuzi bacyororeramo amafi akaba ari meza cyane, iyo umwana akuze arya amafi agira ubuzima bwiza

Karoti ni nziza cyane barazihinga mu mitabo, barangiza bakazitaho, bazishyiraho n'ifumbire. Iyo zimaze kwera ziba zisa n'umuhondo, bakazisarura, bazijyana no ku isoko, abantu bakajya kuzigura, kandi baranaziteka n'iyo umuntu arwara amaso arazihekenya.

Urugo rukorutiriye n'ibiti，harimo imiko，boberi， ibihaza， imbere harimo insina kandi insina bazicaho ibitoki，hari izivaho ibitoki barya， ibindi bakabikoramo inzagwa.

Abahinzi batatu bari mu murima baje guhinga. Ariko nubwo ari batatu uyu murima ntabwo bawurangiza kuko ni munini cane, bari barawuhinzemo ibigori birera, barabisarura, none bagarutse guhingamo ibindi bintu. Hagati muri uyu murima harimo igiti.

Ibyatsi bigandaye harimo icyatsi gifite amashami maremare, ikindi ni kigufiya gifite ibibabi bifite utuntu dusongoye ku ruhande, iruhande hariho amabuye y'amakoro, aya mabuye bayifashisha bari kubaka kandi aturuka mu birunga.

Indabo ziba zifite amababi bimeze nk'iby'amateke, ku ruhande hahinzeho ibindi byatsi bikura bikaba birebire, babyita itete. Haba hari n'ibiti bikura, bakabyasa bakabicana cyangwa bakabyubakisha, inyuma haba hubatse n'inzu ikorotishije ibidodoki.

Umurima barawuhinga barangiza bakawusarura. Ariko hakaba igihe badahise bongera kuwuhinga, ukameramo ibyatsi kandi hagati haba harimo amabuye, ndetse ku ruhande haba hari n'igiti giteye. Hirya yacyo hariho n'ishyamba ririmo ibiti.

Umurima uba ari munini bawuhingamo imyaka, bahinzemo ibigori babyitaho birera barabisarura, none hakaba harimo ibigorigori, ikindi kandi ku ruhande haba hateye n'ibiti by'intusi, ari byo bivamo ibyo kubaka ndetse n'ibyo gucana.

Inzu bubatse neza bayitera karibasasu y'umukara, bayisakaza n'amabati. Hari urugo rwubatse rw'ibihaza by'ibidodori, hateye n'isombe ndetse n'insina. Inyuma hateye ibirayi mu murima, ndetse n'ibyatsi bita kameruni bahirira amatungo.

Umurima uba ari munini barawuhinzemo ibigori bakabyitaho babishyiraho n'ifumbire, iyo bimaze kwera barabisarura maze bagasi ibigorigori mu murima bakawuraza barangiza bakazawuhinga ubutaha ukera neza kandi ku ruhande haba hari ishyamba.

Ishyamba ni ryiza ririmo ibiti biringaniye, hakabamo n'ibinini ubona ko bishobora gukoreshwa mu gihe umuntu ari kubaka bageze cya gihe cyo kusakara kwakundi babanza bashiraho ibiti kugira ngo bashireho amabati cyangwa se amategura.

Akayira kaba gacyiye hagati mu ishyamba hateyemo n'ibidariya n'ibiti by'intusi. Ndetse n'ibiko kandi ibiko bigira amababi atatu abiri aba ateganye n'irindi rito, hejuru kandi nanone hari igiti kivamo umuti mwiza cyane.

Ibishyimbo bahinga ku rugo bikagira uruyange bigira n'amababi atatu, abiri aba ateganye irindi riri nko hejuru. Kandi nanone haba hahinzemo n'indabo bagahingamo n'ibihaza bizamukamo haba harimo ndetse n'amateke.

Ibyatsi by'urubingo ni byiza cyane, iyo wa bihinze ukabyitaho, ukabikera ukabiha amatungo, agira umukamo mwiza, iyo ari gukamwa kandi amata ni meza ku bana batoya, cyane cyane iyo bakuze banywa amata bagiraga ubuzima bwiza.

Umurima barawurajije umeramo ibyatsi, banateyemo intusi z'umweru kandi zivamo umuti mwiza cyane, nanone hamezemo umuti bavurisha ise, hameramo n'ibindi byatsi bitandukanye ,dore ko banabigaburira n'inka.

Umuntu wajyaga kuvoma, yambaye ipantaro akaza yikoreye ikidomoro agipfundikije n' urutoki, yanyuraga mu muhanda urimo ibyatsi, kandi iruhande haba hubatse inzu y' amakarakara, haba hariho n' agashyamba k' ibiti impande y' inzu.

Umurima baba barahinzemo ibigori bakabyitaho babishyiraho n'ifumbire, bikera bakabisarura barangiza umurima bakawuraza ukazamo ibyatsi, kandi iyo uraye ubutaha bongera kuwuhinga ukera cyane.

Umurima bawuhinzemo ibirayi, bimwe byarayanze ibindi ntibirayanga. Ibindi na none nibwo biri kuzamuka, hirya yabyo hari ibigori bari barahinze barabisarura, kandi na none hepfo hari ishyamba ririmo ibiti.

Umuririma bahinga mo imyaka iba itandukanye, haba harimo ibirayi, amashaza, ku ruhande haba hari agashamba, ikindi kandi ibirayi ni byiza cyane kuko bivamo ifiriti bakanabitekamo imvange. Na none amashaza iyo yeze amaze kuba amanyorwe bayateka mu gitoki akaryoha.

Ibiti byitwa imigano, biba ari byiza cyane, aho babihinga haba harimo amahumbezi, ku ruhande haba hariho n'inzira abantu banyuramo, ikindi nanone imigano ivamo imikubuzo, kandi bakoramo n'intebe ziba ari nziza, barazicuruza, abantu bakazigura bakajya kuzicaraho.

Imodoka nini y'umweru itwara ibitoki, hejuru harimo umuntu uri gupakira ibitoki, hasi hari undi uhagaze, hepfo ye hari moto ihagaze, iruhande hari umutaka w'umuhondo, ahantu hicaye umuntu ucuruza amayinite.

Icyayi bagihinga ahantu haba hari mu kibaya, kandi bagihinga ku murongo haba harimo n'udupariseri tugiye duciyemo. Kandi ikindi, icyayi baragisarura bakajya kukigurisha, bakakijyana mu nganda hakavamo ibintu byiza cyane.

Igiti kiba kirimo imbuto, ni igiti kigira amababi maremare asongoye kandi n'utubuto twazo ntabwo aba ari tunini cyane. Na none iki giti kigira amashami ku buryo kizana n'inyange nyinshi cyane, zikavamo imbuto nyinshi.

Abahinzi bahinga umuceri bagiye guhinga bari mu gishanga, harimo abagore hakabamo n'abagabo, kandi uyu murima wabo bawutegeye amazi mu mpande, kugira ngo hekujyamo amazi menshi amwe ace haruguru, mu murima hasigaremo makeya.

Umuhinzi ugiye guhinga yambaye bote. Kandi afite n'isuka mu ntoki, yipfutse n'igitenge, afite n'amabasi akoresha ari kuvomera imyaka ahinga. Kandi ahinga mu dupariseri. Imbere hari n'iyindi nzu bubatse bakoresheje amahema nayo bayihingamo.

Umuhinzi yahinze ibigori abyitaho none bimeze neza cane, ntabwo byari byera ariko bimeze nk'ibigiye kwera kandi iyo byeze bitumye turabitekaga, byaba byumye tukabijana ku cyuma kubibeteshamo kawunga cyangwa se igikoma cyangwa tugatekamo impungure.

Umuhinzi yahinze intoryi zimeze neza cane kuko azitagaho, yazishingiye n'ibiti kugira ngo zitazaja zirahirima, mu ndego harimo ingano noneho inyuma y'intoyi hariho ishamba.

Abahinzi bahinze ibirayi mu murima munini cane none byareze babisaruye babishize mu mifuka abagore babiri bari kugenda mu murima umwe ari imbere undi ari inyuma yifashe mu mayunguyungu bagiye gushaka ababatwaza ibirayi.

Abahinzi bahinga imbuto zitandukanye, haba harimo na avoka, hari izo bita imbangurire, iyo uzisatura ubona imbere haba hasa n'umuhondo, kandi zigira umucece munini, ikindi nanone haba harimo ikibuto, kandi zigira akamaro gatandukanye, kuko havamo n'amasabune, kandi ikindi havamo n'amavuta.

Umuntu wicaye uri gucuruza, acuruzaga: pampa, isabune ya omo, indagara ndetse n'ubunyobwa .Kandi abicururizaga hanze.

Abahinzi bahinga imyaka ziba zitandukanye, haba harimo n' amasaka bayashyiraho n' ifumbire ryitwa imvaruganda iyo yeze barayasarura, bakayajyana mu rugo, bakayahura, bakayanika, yamara kuma bajya kuyabeteshamo ifu.

Ibijumba babijyanye ku isoko kubigurisha. Ni ibijumba byiza byitwa tura, cyane ko n'iyo bigeze mu isoko ari byo bijumba bigurwa cyane kurusha ibindi, kuko bigira n'ibiro biruta iby'ibindi bijumba.

Abahinzi bahinga imyaka itandukanye haba harimo n'imyumbati kandi bajyag kuzigurisha ziri mu mufuka. ikindi bahinga n'ibigori nabyo bakajya kubigurisha bagacuruza n'ibikombe ndetse n'amasahane. haba hicaye abantu baba bari gucuruza. abandi bazaga baje guhaha.

Abahinzi bahinga imyaka, bakazihinga ahantu hubakiye, kugira ngo habe hafite umutekano ntibabyibe. Kandi aha hantu haba hateye imyaka myiza cyane, bajya kuzitaho, barangiza bakajyana n'ibihoho, dore ko ibihoho ari byo bashiramo imyaka, kugira ngo ikure iyo bashaka kuzajya kuyitera yarakuze.

Karoti ni nziza cyane, barazihinga bakazitaho, bakazishiraho n'ifumbire, bakazibagarira noneho zakwera bakazikura, bakajya kuziteka, bakajya no kugurisha, kandi ikindi na none karoti zivura amaso, iyo uzihekenye.

Amateke garasogoye, gari mu gitebo, ariko hari agandi gari hejuru, gadasogoye, gafite n’imizi yago ndetse n’ibibabi. Ikindi kandi, amateke gararibwa bayagereka ku bishimbo, cyangwa se bakayateka batayageretse.

Abahinzi bahinga imyaka itandukanye, haba harimo n'ibirayi, babyitaho babishyiraho ndetse n'ifumbire ryitwa imvaruganda, iyo byeze barabikura bakabipakiza imodoka, bakabijyana ku isoko, abantu bakaza kugura, ikindi kandi bivagamo ifiriti nziza iryoha.

Umurima bahingamo , bawuhinzemo imyumbati n'ibigori , kandi imyumbati ivamo ubugari hari n'iyo bahinga , bakayikura , bakayiteka ku bishyimbo bayigeretse kandi iraryoha cyane na none ubugari bwayo buraryoha.

Abahinzi bahinga ibishyimbo bitandukanye, hariho ibyo bashingirira, ibindi ntabwo babishingira, babyita ibigufi, ikindi naone hari ibyo bahinga bakabicamo imiteja bakajya kuyiteka, cyangwa bakayijyana ku isoko, abantu bakayigura.

Voka bita izimbangurire, barazihinga bakazitaho, zikazayanga, zikazana uduteja, utwo dutesha tugakura tukazavamo voka zisa n'umukara, cyangwa se ntizise n'umukara, ariko zikaba zeze, bakazitara, zashya bakazirya, nivoka nziza zigiraga umukeke.

Abahinzi bahinga imbuto ziba zitandukanye habamo na voka bita izimbangurire, iyo uzisatuye ubona imbere hasa n'umuhondo, kandi habamo n'ikibuto. Ikindi na none voka ni nziza cyane, kuko zivamo amasabune ndetse n'amavuta.

Umuhinzi ava guhinga ashyize isuka ku rutugu, kandi aba yambaye umupira w'ibara ry'umutuku ririmo n'umweru mu kuboko, ndetse yiteze n'agatambaro k'umweru. Yambara n'ishapure, kandi mu murima haba harimo n'insina.

Abahinzi bahinga amashu bayahinze mu dupariseri barangije bakajya baza kuyasura bakayakorera, ni meza cyane bakaza bazanwe n'umuyobozi nanone aje kubigisha ku bijyanye no guhinga, barangiza bagashyira intoki hejuru kugira ngo basubize ibibazo ababaza.

Abahinzi bahinga imbuto n'imboga barangiza bagasagurira n'isoko bajyanayo imiteraja ibitunguru bya puwaro sereri, puwavuro, ndetse n'imbuto zitwa indimu. Kandi indimu ni nziza cyane kuko iyo umuntu yarwaye akanazirya ziramukiza, cyane cyane iyo arwaye umutwe.

Abahinzi bahinga ibirayi bakabyitaho babishyiramo imvaruganda ndetse babitera n'umuti, iyo byeze barabisarura bakajya kubishyira mu rugo bakabirya, ndetse babijyana no kubigurisha kandi ibirayi bivamo ifiriti nziza iryoha, ndetse babitekamo n'imvange.

Inkoko ni nziza cyane; hariho iziba zisa n'umukara, zifite n'amabara y'umweru, kandi ziba zifite n'ibirokoroko. Ikindi zitera amagi kuko amagi ni meza cyane, iyo uyahaye umwana akiri mutoya agakura ayarya agira ubuzima bwiza, kandi ikindi n'abantu bakuru barayarya.

Isoko ryubakiye baricururizamo, bagacuruzamo ibintu bitandukanye; habamo ibitunguru. indimu, imyembe, inanasi ndetse n'ibindi. Harimo abantu bacuruza, abandi baza baje guhaha, kandi ibicuruzwa bacuruza ni byiza cyane, byifashishwa ahantu hose.

Umurima abantu benshi cyane bawuhingamo ibirayi hagati yabaga harimo utudumburi hahagazemo n'ibiti . Babihinga ku murongo kandi iyo byeze barabikura bakabitekamo ifiriti kandi babitekamo n' imvange kandi biryoha cyane.

Abahinzi bahinga imyaka bakayimenera bayishyiraho n'ifumbire. Iyo yeze barayisarura, bakajya kuyigurisha bakaguramo ibindi nabo baba bashaka. Ikindi nanone baguramo n'ayandi masaka yo kujya guhingisha ibindi.

Umurima munini bahingamo icyayi bakacyitaho bakagikorera, ubundi cyakera bakaza kugisarura, kandi bagenda bafite ibitebo basaruriramo yaba abagore cyangwa se abagabo bose barasarura.

Aborozi bororaga inkoko ziba zitandukanye, habamo n'izitwa isake ziba zifite amabara y'umukara ndetse n'umutuku, zigira n'ibiroroko, kandi ziba zifite n'umunwa utari muremure, ziba zihagaze mu gacaca, kandi zirabika.

Ahantu bacururizaga, imbuto n'ibyo kurya harimo indimu, intoryi pavuro n'imiteja, kandi ibi bintu birafasha cyane, kuko indimu zivagamo umuti, imiteja nayo bayitekamo, imboga ndetse n'intoryi nazo baraziteka na pavuro.

Umukobwa urunda ibitaka mu mashashi ari byo bita ibihoho, babiteramo ibiti kugira ngo bizamuke bazabitere bigeze hejuru, iruhande rwe hari igiti kirambitse gikumiye ibitaka ayora.

Amapera ni imbuto nziza cyane zerara ku biti. Iyo zatukuye barazica bakajya kuzigurisha . Abantu barazikunda cyane kuko zivura n'indwara, ndetse n'amababi y'amapera avamo umuti mwiza cyane.

Abahinzi bahinga imyaka itandukanye, harimo n'ibirayi ndetse n'ibigori. Ariko iyo batabyitayeho biba bibi. Kuko ibigori bizamo agasimba, kandi ako gasimba iyo bagateye umuti karakira. Ariko iyo batabiteye kagumamo, ndetse n'ibigori ntibyere.

Abahinzi bahinga ibirayi mu murima munini cyane bakabyitaho bakazajya bajya kubitera umuti, mu gihe byarwaye agasimba cyangwa se bashaka kugira ngo bigire amababi meza cyane kandi bigire n'umusaruro. Ikindi bashyiraho n'imvaruganda, kandi nanone ibirayi bivamo ifiriti iryoshye cyangwa se bakabitekamo imvange.

Abantu bahinga bagiye guhinga， ni umugore n'umugabo， umugore yambaye umupira w'umutuku， umugabo nawe yambaye inkweto za bote， bose ba bafite amasuka ku rutugu kandi nta muhinzi ushaka guhinga adafite isuka， kubera ko isuka ari yo ihinga， kandi no mu gihe bateye imyaka ikenewe gukurwa n'isuka， niyo bakoresha.

Inkoko nziza cyane, zigira amabara y'umuhondo, kandi zikagira n'ibirokoroko cyane cyane isake ntiyo igira ibirokoroko, noneho haba hari isake nini cyane, indi ikaba ari inyarwanda (Inkoko kazi) kuko inyarwanda ziteraga amagi, kandi tuzi ko amagi ari meza cyane ku bana. Iyo umwana arya ukamuha amagi, agira ubuzima bwiza.

Umurima bahinga, bawuhinzemo ibihingwa babyitaho none bireze baje kubikura, bazanye isuka, kandi umuhinzi wese akenera isuka mu gihe yagiye guhinga, cyangwa se yagiye gusarura ibyo yahinze.

Insina zitwa kamara barazihinga, bakazitaho, bazishyiraho n'ifumbire, kandi iyo zeze barazica bakazitara, zigatukura ziba n'umuhondo, kandi bakajya kuzigurisha amafaranga, ikindi kandi iyo bazigaburiye n'abana bagitangira kurya bagira ubuzima bwiza.

Ibinyomoro ni byinshi biraciye, birarambitse, ni ibinyarwanda, bimwe biratukuye cane, ibindi ntabwo byari byatukura neza, kandi ibinyomoro ni imbuto ziribwaga n'abantu bakuru ndetse n'abana, iyo umwana ari kurya ukamuha ikinyomoro akarenzaho, arushagaho kugira ubuzima bwiza.

Isoko ry'imbuto nziza cyane harimo amaronji asa n'amaze iminsi, ari ku gakoko gateretse ku gikarito hakabamo ibinyomoro, imyembe, wotameloni, inyuma hakaba hari isoko ry'ibitenge bimanitse.

Mu murima bawuhinzemo ibihaza byitwa amadegede none harimo idegede ryabaye umuhondo kandi n'imbere riba risa n'umuhondo. Barariteka bakanarigereka ku bishyimbo kandi ikindi barikuramo inzuzi bakazisya bakazinyanyagiza mu biryo ifu yazo.

Abahinzi bahinga imyaka itandukanye haba harimo n'amateke bita amabwayisi, iyo yeze barayakura bakayasogora, baba bagiye kuyateka bakayakata kandi agira amabara imbere aba asa n'umukara.

Amateke bita amagumino ni amateke atatu arahiye, bayatekanye ibihu kandi aya mateke araryoha cyane, iyo bashaka banayateka aharuye bakayashyiramo ibishyimbo, cyangwa se bakayagereka ku bishyimbo na none adaharuye.

Mu isoko bacuruza ibyo kurya biba bitandukanye, habamo imiteja, karoti puwavuro, ibitunguru, urusenda , ibibiringanya, ndetse n'intoryi. Ikindi kandi ni ibiryo by'imboga, biba byiza cyane bigira n'intungamubiri.

Amapera abiri garaciye gararambitse, rimwe baricanye n'amababi abiri, irindi nta mababi baricanye, iruhande harambitse udusate tubiri dutoya na two tw'amapera, imbere gasa n'umweru kandi amapera ni imbuto nziza cane baranazicuruzaga.

Abagabo n'abagore bikoreye ibiti mu mabase, bagiye kubitera. Hari umugabo umwe uri gusunika igare yambara na bote. Hari umugore uri kumusunikira kandi na none aba bantu baca mu bigori kandi nta bwo byemewe kuko aba ari ukwangiriza imyaka.

Umuhinzi yahinze intoryi azitaho none zageze igihe cyo gusarurwa, yazisaruye azishyira mu gatete, zimwe ziratukuye izindi ntabwo zitukuye, kandi intoryi turazirya ni nziza cyane.

Umurima uba waraye uba urimo ibyatsi bigakura, kandi hameramo n'umwumbati utera imbaraga iyo ari umuribwa barawuteka ku bishyimbo, waba ari umutaminsi bakawinika bakazawukoramo ubugari, kandi baraburya buryoha cyane.

umuhinzi yahinze amatunda agitaho none gareze. Yagasaruye ni amatunda meza cane gafite inkondo nziza gasa n'umukara, bagaciye bagashyira mw'ibase, kandi amatunda gavagamo umutobe mwiza guryoshe.

Umurima bahingamo bawuhinzemo ingano bazitaho none zireze baje kuzisarura. Harimo abantu batandatu, umwe afite igitebo, kandi ingano barazibetesha zikavamo igikoma.

Umurima urimo abahinzi bahinga imyumbati, bayitaho none, ni imyumbati myiza cyane, bayisaruye kandi imyumbati ivamo ibiryo byiza biryoshye, kandi bitera imbaraga.

Abahinzi bahinga imbuto ziba zitandukanye, haba harimo amacunga, iyo yeze aba asa n'umuhondo, bakayasarura, bakayashyira mu gatete, bakayatereka mu nzu, bakazajya bayarya, bajya no kuyagurisha abantu bakayagura.

Abantu barahinga bagahinga imiteja zikera zimeze neza. Bagahinga na za karoti n'intoryi, ndetse na pwivuro n'inyanya. Babicururiza ahantu heza cyane. Haba hasakaye, harimo abantu bacuruza n'abaza baje guhaha.

Ahantu haba hubatse utuyetajeri, dusakaje ibati ry'ubururu, harimo n'utundi tuntu dusa n'umweru, dufite n'amabara y'umutuku, kandi haruguru yaho baba bari gucuruza, bafite n'umutaka bacuruzamo amayinite ya tigo, haba hari n'imodoka.

Abahinzi bahinga imbuto ziba zitandukanye, haba harimo n'amatunda bayitaho bakayatera n'umuti, iyoyezeze yaba yasa n'umukara ariko hari igihe yaraba ateze ari imiteja ibibabi byayo bikaba bisaga n'umuhondo.

Ibigori bihinzwe ahantu hameze nko k'umusenyi, izuba ryaravuye biruma ibigori byumiye ku biti byabyo ariko amababi garacari mabisi byakabaye bisarurwa bakabijyana mu bwanikiro, bakabiteka cyangwa se bakabishakamo igikoma cyo kunywa cyangwa se kawunga.

Ishyamba riba rihinzemo ibiti bigira amatabi manini, hari n'ibiba byaraguye hasi, na none hari ahaba hadahinze ibiti. Hejuru haba hari irindi shyamba kandi na none ibiti bivamo imbaho cyangwa se bakabicana.

Abahinzi bahinga imyaka itandukanye, haba harimo ibishyimbo, babyitaho bashyiraho n'ifumbire ryitwa imvaruganda, hariho ibiba biri imiteja, barabica bakajya kubigurisha, kandi imiteja iraryoha.

Ahantu bahinga ni mu murima munini cyane bahingamo imyaka itandukanye, hubatseho n'amazu atandukanye, hariho ayubatse nk'ibizeru asakaje igipfundikizo, hariho n'ayandi ari ku ruhande asakaje amabati y'umutuku.

Abahinzi bahinga imyaka itandukanye, haba harimo n'amashaka bayitaho bakayamenera, bashyiraho n'ifumbire, iyo yeze bagasarura bakayanika, yamara kuma bakajya kuyabetesha, bagakoramo igikoma.

Soya barazihinze, bazikorera neza, none zigeze mu gihe cy'izuba zirumye, uko bigaragara, zigeze igihe cyo gusarurwa, bakajya kuzirya.

Soya barazihinga bakazitaho bakazishyiraho n'ifumbire ndetse bakajya kuzibagarira. Iyo zeze zumye barazisarura, bakazitonora, bakazanika bakajya kuzibeteshamo ifu, baziteka no mu gikoma cyangwa se bakazikaranga bakazihekenya.

Abahinzi bahinga imyaka itandukanye, bakayitaho bayishyiraho n'ifumbire, bahinga ibishyimbo, soya, ingano ndetse n'ibindi, ikindi kandi bazijyana ku isoko, iyo yeze bakazigurisha, kuko bazibeteshamo ifu, bakayinywamo igikoma.

Iyo abahinzi bahinga ibigori babyitaho bakabishyiraho n'ifumbire yitwa imvaruganda kandi babitera n'umuti kugira ngo hatazamo udusimba, iyo byeze barabisarura bakabimanika kugira ngo byume bazajye babihungura bagiye kubibeteshamo ifu batekamo igikoma ndetse n'umutsima.

Umurima ukorotiriye bawuhinzemo ibinyomoro, babihinga ku mitabo. Ni ibinyomoro byiza cyane, abantu baza kubyitaho kuko ibinyomoro ari byiza cyane. Ni imbuto nziza baha abana ndetse n'abantu bakuru barazirya.

Ahantu bacuruza ibintu bitandukanye biri mu mifuka, haba harimo indagara ndetse n'ibiheri, kandi abantu barabigura bagiye kubiha amatungo, indagara zo n'abantu barazirya kandi zigira vitaminini n'iyo uziha umwana, agira ubuzima bwiza.

Ubunyobwa ni bwiza cyane, barabuhinga bakabwitaho bwakwera bakabusarura, buba buri mu gihu cyabwo bakabutonora bakabwanika, barangiza bakabukaranga bakaburya cyangwa bakajya kubeteshamo ifu nziza, yo kunyanyagiza mu biryo babukoramo isosi.

Abahinzi baba barahinze umuceri mu gishanga, bakawitaho igihe kikagera ukera bakajya kuwusarura, baba ari abagore ndetse n'abagabo, baba bajyanye n'amahema yo kurundaho, iyo basaruye kandi ku ruhande haba hahinzeho n'ibiti.

Umurima bahinga bawuhinzemo ibishyimbo barabishingirira bimeze neza, hirya y'aho hari inzu yubatse isakaje amategura, nanone ku ruhande hari amabuye bita amakoro.

Abahinzi bahinga amasakaka bakabyitaho bagashyiragaho n'ifumbire iyo yeeze bakayasarura, bakayahura, bakayanika baba bashaka gukora ubushera bakajya kuyinika, bayiyinura bakayanika yamara kuma bakajya kuyabetesha bakabona ifu bakoramo ubushera.

Umurima uba ari munini uhinzemo amashaza aba yarayanze abantu bakahajya bakayareba, bakayishimira baba bambaye udupfukamunwa kandi aba ari umugore n'umugabo, ikindi kandi amashaza iyo amaze kuba amanyogwe inyoni zirayakunda, kandi nanone abantu bayateka mu gitoki akaryoha.

Umurima munini cyane bawuhingamo. Bawuhinzemo ingano bazitaho, none zareze benda kuzisarura. Kandi ingano ni nziza cyane, barazibetesha bakazikoramo igikoma cyangwa se bakazikoramo umutsima.

Abahinzi bahinga imyaka ziba zitandukanye, haba harimo n'amasaka bayitaho bakagashyiraho ifumbire, bita imvaruganda bakanateramo umuti kugira ngo hekuzamo udusimba ariko hari igihe umuyaga uza atariyera maze yakaryama.

Ubunyobwa barabuhinga bakabwitaho, babushyiraho n'ifumbire, ndetse baranabumenera, iyo bweze barabusarura bakajya kubwanika, barabutonora kuko buba buri mu bihu, bakabwanika bwamara kuma bakabukaranga bakaburya, cyangwa bakajya kubeteshamo ifu nziza cyane bakoramo isosi.

Abahinzi bahinga imyaka iba itandukanye, haba harimo n'ibishyimbo babyitaho, babishyiraho n'ifumbire yitwa imvaruganda, iyo byumye barabisarura ,bakabijyana mu rugo, bakabyanika, byamara kuma bagashaka ibiti binini maze bakabihura.

Abahinzi bahinga imyaka, barangiza bakayitaho bakayikorera neza. Yakwera bakayisarura, bakayitonora bakayijyana kuyigurisha, cyangwa se bakayirya. Dore ko iyo umuhinzi yahinze agahinga imyaka myinshi, imwe arayigurisha indi akayirya.

Abahinzi bahinga imyaka itandukanye harimo n'ibishyimbo, kandi ibishyimbo iyo babihinze birazamuka bikabirinduka bikagira n'imizi hasi, bikagera hejuru bikazana udushogoro kandi ikindi nanone, hariho ibyo bashingirira n'ibyo badashingirira.

Ubunyobwa barabuhinga bakabwitaho, iyo bweze, bajya kubukura. iyo batari babutonora buba buri mu gihu cyabwo, baba babutonoye nanone hari agahu k'inyuma bakuraho bakabona impeke y'imbere, kandi nanone ubunyobwa babusyamo ifu nziza cyane batekamo isosi.

Abagore bamwe bahagaze abandi barapfukamye bambaye imyenda itandukanye, abapfukamye bambaye imipira y'umweru biteze n'ibitambaro, ab'inyuma nabo barifubitse biteze nabo ibitambaro. Inyuma yabo hari umuntu wikoreye amabase kandi imbere hari nanone amabase arimo ibishyimbo ndetse n'isiniya nayo iriho ibishyimbo.

Ibishyimbo barabihinga bakabyitaho bikazagira uruyange. Rwa ruyange rukavamo imiteja. Kandi imiteja barayiteka cyangwa se bakayireka ikazavamo ibishyimbo byumye bakabisarura.

Abahinzi bahinga amasaka bakayitaho bayashyiraho n'ifumbire iyo yeze barayasarura bak bakayahura, bakayanika bashaka gukora ikigage bakayinika bayinura yamara kuma bakaja kuyabetesha hakavamo ifu bakoramo ikigage.

Umurima uba ari munini barawuhinzemo umuceri maze bakawitaho, wamara kwera bakazana amahema bakayarambura bakawusukaho, bakazana intara bakazajya bagosora. Baba ari umugore ndetse n'umugabo, bafite imifuka myinshi basukamo umuceri bagosoye. .

Abahinzi bahinga imyaka itandukanye haba harimo ibishyimbo bimwe bita ibya mushingiriro, ibindi babyita ibigufi, baba barabihinze ku mitabu kandi iyo byeze barabisaru bakabiteka biraryoha cyane.

Indabo nziza z'icyatsi ziyanga umuhondo kandi indabo ziba nziza iyo baziteye ku nzu ku muryango cyangwa se bakazishyira mu nsina nk'iyo abageni basezeranye aho binjirira bazishyizeho uba ubona ari byiza.

Inzu bubakisha amatafari ya rukarakara basigamo n' idirisha bororeramo inkoko kandi ziratera, zikagira amagi, avamo izindi nkoko bakanayateka bakayagaburira abana iyo bakura bayarya bagira ubuzima bwiza.

Umuntu aba akuruye intama zifite amabara atandukanye, hari iy'umweru n'iyindi ifite ibara ry'umweru ku gisembe ariko ahandi hasa n'igitaka, kandi aba ari kunyura mu muhanda urimo ibyatsi ku ruhande, haba hateye ibirayi ndetse haba harimo n'avoka.

Izi nka ziri mu gisambu, nta mushumba uhari ariko nubwo adahari ntabwo ziri kurisha, zihagaze neza ku muronko ziteze amahembe ikindi kandi izi nka, zigiraga amata garyoshe. Inyuma yazo hari igiti kidafite amababi, iruhande hari ikindi kigandaye.

Inkoko ziba ziri ahantu heza kandi zigira amabara y'umweru, bazizanira n'ibiryo, kuko ziba ziri ahantu hasakaje amabati. Ikindi kandi inkoko zitera amagi meza cyane, kuko iyo uyahaye umwana ari kurya agira ubuzima bwiza, ndetse n'abantu bakuru barayarya.

Inka nziza cyane ifite amabara y'umukara nay'umweru irahagaze inyuma yayo hari ishyamba kandi nanone inka igira amata aryoshye igihe bayigaburira neza, nanone umwana ukuze anywa amata y'inka agira ubuzima bwiza.

Udukwavu twiza cyane tw'umweru dufite amaso g'umukara ni dutandatu turi mu kiraro turi kurya ubwatsi, kandi udukwavu tugira inyama nziza cyane ziryoshye no muri resitora bakunda kuziteka abantu bakaza kuzirya.

Inka ziba ziri mu rwuri baba bagiye kuragira, zimwe ziba zifite amahembe, izindi nta mahembe ziba zifite, kandi zigira n'amabara atandukanye ay'umukara ndetse n'ay'umweru, ikindi kandi abashumba bakamira aho bagiye kuragirira.

Inkoko ziba nziza cyane iyo bazororeye ahantu heza haba hasakaye bazicanira n'amatara, ikindi nanone iyo bazigurira n'igiheri zigira amagi aryoha kandi na none iyo umwana akura arya amagi agira ubuzima bwiza.

Inka ziri mu gisambu zagiye kurisha, ni inka nziza cyane zifite amabara atandukanye zikagira n'amahembe. Inyuma yazo hari igiti kidafite amashami ikindi kandi inka zigira amata cyane cyane iyo bazigaburiye neza zigira amata aryoshye.

Abantu biga ubuveterineri haba harimo abagore harimo n'abagabo, kandi baba bambaye za ga mu ntoki iyo bagiye gutera inka urushinge. barabanza bakayizirika bakayijisha ubundi bakabona ubuyitera.

Inkoko zitera amagi kandi aba meza cyane, kuko iyo umwana atangiye kurya, ukamuha amagi akurana ubuzima bwiza, ikindi nanone amagi bayatekamo umureti kandi nawo uraryoha cyane.

Abantu baba barakoze umushinga wo korora bakubaka ibiraro by'ibiti bakabisakaza n'amabati, maze abaveterineri bakaza kubasura bambaye ibisurubeti by'icyatsi haba harimo n'abagore batambaye ibiserubeti, ariko bambaye amapantaro ikindi kandi harimo n'ababa bambaye udupfukamunwa, harimo n'umwe wambaye ingofero y'umutuku.

Abantu baba barize ubuveterineri biga ibintu biba bitandukanye, harimo no kujya gutera amatungo inshinge iyo yarwaye Ikindi nanone bagira n'ibinini kugira ngo abantu nibabahamagara bagende babijyanye.

Inka nziza cyane ziba zifite amabara atandukanye, harimo iz'umukara, iz'umweru zivanze n'umukara, ndetse n'ayandi mabara, kandi ziba ziri mu gisambu bakazizanira ibyatsi ubundi zikarya ziri ku murongo, kandi inka zigira amata aryoshye iyo zariye neza.

Inka ebyiri nziza cane ziri mu kiraro zifite amabara gatandukanye ag'umukara n'ag'umweru, inini iraryamye, iryamye ku byatsi. Intoya nayo irahagaze iri gutora utwatsi.

Inka ziba ari nziza ziba mu kiraro, zimwe zigira amabarara y'umweru n'ay'umukara, izindi zigira ay' igitaka ziba zambaye n'amaherena kandi ziba ziri no kurya, ni inka zigira amata meza cyane.

Inyamaswa y'ishyamba iba ihagaze ku giti, ni igiti kiba gifite amashami kandi iyi nyamaswa iba ifite amasunzu, n'umunwa usongoye ikagira n'amababa, iyi nyamaswa iba isa n'umukara cyane kandi ikindi irya n'inkoko.

Inyoni ziba arizo mu ishyamba, zubaka ibyari zigatereramo amagi ariko havagamo ibyana, zikagenda zigiye kubihahira, iyo zizanye ibyo kurya ibyana birasamaga bi bikashyira mu kanwa ubundi bikarya, iyo bibaga birangije kurya biraryama.

Akanyoni ko mu ishyamba kaba ari keza kagira umunwa usongoye ariko mugufi, kagiraga nanone amaso y'umukara n'ibisembe bitari birebire kaba gahagaze mu ndabyo zisa n'umweru ndetse n'umuhondo.

Ikiyongoyongo gisa n'umukara gifite amaguru maremare n'umunwa muremure, gihagaze ahantu heza cyane hateyemo uturabo, kandi na none ni mu mazi. Ikiyongoyongo kiri mu nyamaswa z'ishyamba kandi ni nziza cyane.

Umusambi guri mu ishamba gurahagaze, gufite amaguru maremare, guzamuye ijosi, inyuma y'iryo shamba hahinzemo ibisheke ndetse n'insina. Ikindi kandi imisambi iba mu tuyamaswa tw'ishamba zirahiga.

Ururabo rwabaye rwiza cyane rurakura rugira inyange , hakaza akanyoni kaba gafite umunwa muremure kakawukoza muri za nyange kagakuramo utuzi tuba turimo kuko turaryoha . Ikindi none ni akanyoni kaba gafite amababa kayateze neza .

Inyoni ihagaze ku ishami ry'igiti, imeze neza, ifite amaso y'umuhondo, iratuje cyane, mbese yageze ahantu heza cyane.

Inyoni ihagaze ku giti , ni inyoni y'umukara cyane , ikunda kona kandi ikindi ifite umurizo utari muremure cyane, n'umunwa utari muremure ,kandi iyi nyoni na none ikunda kona ku buryo igeze mu myaka isiga iririye uruyange.

Inyamaswa yo mu ishyamba yitwa intare, iba yiryamiye, ituje, iyo umuntu atayiyenje ntabwo imurya, kereka iyo uyisagarariye. Ikindi nanone iri mu nyamaswa nini ziba muri pariki.

Ibisimba bita ingagi ziba ziri mu birunga, haba n'igihe zagiye gutembera zikaba ziri mu gashamba. Kandi ingagi ni nziza cyane kuko ziduha amadolari, iyo abazungu baje gutembera mu gihugu baje kuzireba.

Inyamaswa y'umusozi nziza cyane, igira amahembe maremare ateze neza, ikagira n'amatwi ahagaze kandi ikindi ikunda kuba iri mu ishyamba, kuko iramutse ivuye mu ishyamba ikagera mu baturage bagira ubwoba.

Inyoni nini iba ari yo mwishyamba, igi umunwa muremure n'amaso y'umukara n'ijosi riba ari rirerire ndetse n'amaguru maremare, iba iri hafi y'amazi mu gashamba cyangwa ikajamo igiye gutoramo udusimba.

Mu ishyamba habagamo inyamaswa ziba zitandukanye, habamo n'izitwa ingagi zirabyara zikagira utwana. Abazungu baza kuzisura bakaduha amafaranga kitwa amadovize, ikindi nanone bajya no kuzita amazina.

Inyamaswa yo mu ishyamba igira amaguru y'umweru n'amano y'umukara aba ariho inzara ndende, igira nanone umunwa muremure n'amaso y'umukara, ndetse n'amababa, iyo iguruka ikagera ku nyama irazirya.

Inyamaswa iba mu ishyamba igira umunwa usa n'umuhondo uba usongoyemo gakeya, n'amaso aba asa n'umukara, ikindi nanone igira imirizo iba atari miremire, iba iri kuguruka hejuru y'amazi.

Inyamaswa y'ishyamba igira amaguru maremare, kandi ikagira n'amahembe maremare asa n'ayihese, iba ahantu hatari ibyatsi, kandi na none inyamaswa zo mu ishyamba ziraryana, ni yo mpamvu tuba tugomba kuzirinda.

Inyoni nziza cyane yagukiraga hejuru y'amazi, none igeze mu mazi hagati ibona itabi ry'igiti ryaguye mu mazi, irihagazeho iri kwitegereza hakurya yayo.

Inyoni ziri ku ishami ry'igiti zose, zihagaze ku ishami rimwe, zigira amaguru y'umutuku, zigira n'iminwa zisongoye, izi nyoni zisa nabi cyane, kuko zifite n'ibiririzo birebire cyane, kandi nanone izi nyoni zona imyaka.

Inyamaswa y'ishyamba iba iri mu bikangaga, igira amaguru maremare ndetse n'umunwa muremure, ifite n'amabara y'umweru ku mababa, imbere nta byatsi bihahinze ndetse haba hashinze n'igiti, cy'icyuma giteye amarangi y'umutuku.